Hari abana bisanzura ku babyeyi babo, ko ababyeyi baba babahaye umwanya uhagije bityo bigatuma babisanzuraho, bakabafungukira, bakaba babatoza no gukina imikino igiye itandukanye, kandi iyo mikino ibafasha kwaguka mu bwonko bwabo, bakaba bamenya ubwenge bakamenya n'ibindi byinshi, batari bazi, biba byiza iyo umwana yisanzuye ku mubyeyi, kuko yumva ko akunzwe, atari wenyine, bikamurinda kwigunga.